Ni batatu bicaye, uwo hirya akaba agaragara igice, bose bambaye amadarubindi. Hari ufite insakazamajwi mu bantu, ari gutanga imbwirwaruhame, ku meza hateretseho uducupa tw'amazi, ndetse babiri bakaba bambaye amasaha.

N'abantu bicaye mu buryo bw'umuzenguruko ku ntebe z'imikara ameza atukura imbere yabo hagiye hari ibitabo, amazi yo kunywa abenshi muri bo bambaye amakote bakaba bari mu nama yigirwamo ibitekerezo bitandukanye.

Ni abantu bicaye mu cyumba kiberamo inama bose barareba imbere y'abo, iruhande rumwe harimo umuzungu wambaye ikote ry'umweru ndetse n'ishati y'umukara, hirya ye gato hari umugabo ukurikirana n'umugore ufite amadarubindi ndetse n'iherena ku gutwi.

Nicyumba kinini giteraniyemo abantu benshi bicaye mu mamatsinda mu buryo bw'umuzenguruko higanjemo intebe zitwikirije udutambaro tw'umweru ndetse n'umukara imbere yabo hicaye abantu bari ku murongo bari kubagezaho ibiganiro.

Ni umudamu uhagaze ufite insakazamajwi mu ntoki akaba ayifite mu kiganza cy'iburyo, yambaye agakomo k'umweru ndetse n'ikanzu, hirya ye ku ruhande hari abagabo bicaye ku ntebe z'imihondo ameza ariho amazi yo kunywa ndetse n'ibi.

Mu cyumba kiberamo inama, intebe zimwe z'umukara nta muntu uzicayeho, izindi zirimo abantu. Hari umugabo umwe uri kureba muri telefone, iruhande rwe hari undi wifashe amaboko yombi, imbere ye hateretse igitabo cy'ubururu n'ikaramu.

Icyumba kinini kiberamo inama gifite amatara agezweho yaka neza ari mu bisenge, abarimo bicaye ku murongo batandukanye barimo abirabura ndetse n'abazungu ku meza hateretse ibitabo, amakaramu, ibirahuri byo kunkweramo amazi.

Mu cyumba bakiberamo inama bicaye mu buryo buteganye, bamwe bari ku ruhande rwo hirya bakaba bafite ibitabo imbere yaho, hakuno hari umuzungu wifashe ku munwa, imbere ye hari agacupa k'amazi.

Ni abiganjemo urubyiruko bicaye mu buryo bw'amatsinda, baraganira mu byiciro. Hari umusore n'umukobwa bari kungurana ibitekerezo, umwe afite ikaramu mu ntoki ndetse ku meza harambitse ibitabo.

Igice kinini kiragaragara nk'aho nta bacyicayemo, intebe zi'imbere zirimo abadamu benshi biganjemo abakenyeye, ubanza afite itelefoni mu kiganza ndetse yambaye impeta ebyiri.

Ni abantu bingeri zitandukanye bicagiye mu ihema bari kureba imbere yabo, hagati muri bo hari umugabo wicaye wambaye imikenyero agapfukamunwa ishati y'umweru ndetse n'ingofero y'urugara inyuma haragaragara bake bahagaze.

N'abantu bicaye ku mirongo irebana, bakaba ari benshi, batondetse ndetse ameza yabo ariho igitambaro cy'umweru; bakaba bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa ku meza, bose barareba imbere yabo.

Ni icyumba kinini kiberamo inama, abantu bakaba bicaye bamwe bareba imbere, abandi bari mu buryo bw'umuzenguruko. Amenshi mu meza ari rwagati muri bo ariho ibitambaro by'umweru ndetse n'iby'umuhondo.

Ni abantu bicaye mu ihema, ibikapu biteretse imbere yabo ndetse hari n'ameza ariho agatambaro k'umweru. Umugabo uri ku ruhande afite ikaramu mu ntoki ndetse ari kureba no muri telefone, hirya gato hari umudamu ufite igitabo mu ntoki.

Bose bari kumwenyura ku maso habo haragaragara ibyishimo. Inyuma yabo hari umugabo wambaye ikote wahuje amaboko, naho bo ku meza hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa dukozwe mubirahure, umwe afite mudasobwa.

Ni intebe nziza zicayemo abantu benshi bari kureba imbere yabo, gusa zose ntabwo babashije kuzikwiramo kuko harizirimo ubusa, barareba imbere yabo umwe uri ku ruhande ari kureba muri telefone ndetse afite n'igitabo cy'ubururu.

Ni abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara munsi y'igisharagati, ku meza hari amatelefone agera kuri ane ahateretse ndetse n'igitabo kimwe, hari umudamu wifashe wahuje amaboko wambaye ikanzu y'umukara n'umweru.

Ni abantu bicaye mu nama ku buryo burebana, bari ku ntebe z'imikara nziza zigezweho n'ameza akoze mu rubaho rutukura, higanjemo abambaye amakote uwo ku ruhande, imbere ye hateretse mudasobwa.

Bicaye ku ntebe z'imikara ni mu cyumba kiberamo inama bose barareba imbere yabo ku meza hateretse uducupa turimo ibyo kunywa aho kamwe kagiye karimo amazi akandi ibinyobwa bikorwa mu mbuto .

Abantu biganjemo urubyiruko bicaye mu matsinda bamwe imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'icyatsi ndetse umwe muri bo ari kubabwira, ku ruhande hari umukobwa ufite imisatsi igana inyuma witangiriye itama.

Ni abantu bicaye mu bwatsi bunini bose barareba imbere yabo, hirya hari umugabo uhagazemo hagati uri gutanga imbwirwaruhame abandi bicagiye mu ihema, hagati muri bo hari ibendera ry'igihugu.

Ni abantu bicaye muburyo bw'amatsinda aho ku meza yabo hateretse uducupa tw'amazi akozwe mu birarahure tugezweho, hari abadamu babiri bambaye amadarubindi bose bari kureba imbere yabo, iruhande rwabo hari umugabo w'ishati y'ubururu n'ikote.

Ni imbuga ishashemo sima irimo umuntu uri gutambuka, agiye kwinjira mu muryango w'inzu ifite amabara y'umuhondo ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye birimo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Ni inzu ifite inzugi z'umweru nkuko n'ahandi hose isa. Hejuru hariho icyapa cy'ubururu cyanditseho ngo irembo. Mo imbere ku meza, hariho mudasobwa ndetse hirya gato hari umuntu wambaye ingofero.

Ni inzu uruhande rumwe ruriho ibyapa by'ubururu by'ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda cyitwa Ekobanki, iruhande rwacyo hari akaryango k'imbaho ndetse imbere yayo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Ni icyapa cyamamaza, ku ruhande rumwe rwanditseho amagambo ngo gutangiza ku mugaragaro ukwezi ko gushimira abasora, hagati muri cyo hariho abana b'abanyeshuri ndetse hari inyubako ziri munsi ndende n'indege.

Ni icyapa cyamamaza kiri mu ishusho y'ubururu, aho kiri kugaragaza amatariki ntarengwa cyanditsemo mirongo itatu z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane, munsi gato hari akazu gafite ubusitani.

Umunara muremure usanzwe wifashishwa mu by'ikoranabuhanga w'umutuku n'umweru, ukaba uzengurutswe n'utundi twuma ndetse n'utu mashini turi hasi yawo, imbere hari icyapa cya sosiyete y'itumanaho cy'umuhondo igaragara hano mu Rwanda.

Ni icyapa cyamamaza ibijyanye n'imisoro n'amahoro, kiri mu ishusho y'ubururu kikaba cyanditseho amagambo agira ati;" Menyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa n' umusoro ku nyungu z'ubukode." Gishushanyijeho inzu nziza ijyanye n'icyerekezo.

Icyapa cyamamaza kiriho amagambo yo mu rurimi rw'amahanga .Imbere kuri cyo hari intebe y'umukara iticayemo umuntu mu gihe iyo iri mu ishusho inyuma yayo hari umuhondo n'akaba gatoya ka kabendera k'u Rwanda.

Ni umunara muremure cyane ugizwe n'ibikoresho byinshi birimo ibyuma byifashishwa mu ihuzanzira, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi, ukaba ugaragara mu bushorishori bwawo hariho akuma k'umweru.

Ni inyubako iri mu zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikoze mu buryo bw'umuzenguruko, izwi nka Kigali Komveshoni Senta. Iruhande rwayo hari indi na yo ishinzwe gucumbikira abantu, izi zose zikaba zifite imbuga yisanzuye, ndetse zikakira amanama n'ibindi bikorwa bitandukanye mu gihugu.

Ni akazu gato kubabakishije amatafari ahiye, gafite umuryango w'umweru n'ubururu. Iruhande rwako hazengurutse utwuma dukumira abantu kwinjira ahantu hari umunara rwagati, ndetse n'ibindi byuma biwufasha gukora.

Ni ibiti binini by'imikindo bisanzweho kuba imitako yo mu muhanda aho bikunze kwifashishwa hagati muri yo, kimwe giteyeho icyapa cyamamaza ibijyanye n'umurongo wa murandasi kikaba kiri mu magambo y'ubururu kikaba ari umweru.

Ni icyapa kinini cyamamaza cy'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rura, kiriho ishusho ya telefone ndetse n'amagambo agira ati "shishoza mu gihe uhamagawe cyangwa wakiriye ubutumwa bugusaba amafaranga ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego".

Ni ikiganza gifashe ku kamashini ubusanzwe kifashishwa mu gukora imibare, kiri ku cyapa cyamamaza kiriho amagambo agira ati; amande n'inyungu z'ubukererwe byakuriweho abasora bakoze imenyekanisha, arenga magana inani mirongo itanu ku musoro wa teveya muri gahunda.

Ni ipoto rinini riteye rwagati mu mazu y'abaturage ririho ingazi ijya mu cyuma kiri hejuru, hari insinga zirikikije ndetse n'amazu y'abaturage hakurya no hino.

Ni icyapa cyamamaza kirimo hagati mudasobwa, hari umutwe w'amagambo ugira uti amakuru mashya ku rubuga rw'irembo, kwandikisha ishyingirwawa byavuguruye ndetse munsi bakagira bati ubu abifuza gushyingirwa bazajya bakora ubusabe bahitemo umunsi bifuza banyuze kwi

Ni abantu benshi batagaragara bafite amatelefoni yabo mu ntoki, bakaba bayashyize hejuru. Biganjemo abadamu, umwe muri bo yambaye agapfukamunwa n'amadarubindi, uwo ku ruhande afite iherena n'imisatsi izamuye igana hejuru.

Inkingi ifite irangi ry'umuhondo mu ishusho ry'umuzenguruko niwo mubyimba wayo, ikaba iriho icyapa cy'ubururu hirya gato ku ruhande hari umuntu wicaye utagaragara neza, aho akikijwe n'ibyapa bitukura.

Ni icyuma kirekire kandi kinini kiririmo ishusho ry'umusenguruko, hariho ingazi k'uruhande umuntu yuririraho ajya hejuru ku gasongero kacyo. Munsi hari urutoki, ndetse k'uruhande hari imodoka itwaye ibyuma,

Ni icyapa cyamamaza kiri mu mabara abiri, hepfo no haruguru hagizwe n'umweru hagati hakabamo ubururu, hateretsemo mudasobwa iruhande rwayo hakaba telefoni. Hari amagambo agira ati menyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu.

N'imiryango myinshi iri ku murongo ikorerwamo gahunda z'ubucuruzi zitandukanye yose irafunguye, ubanza imbere yawo hari utubaro abana bakina ndetse hahagaze umuntu uri kureba muri telefone.

Ni icyapa cyamamaza kiri ishusho nini y'ubururu, amagambo umuhondo ndetse n'umweru. Cyanditseho amagambo agira ati; harabura iminsi ibiri kugirango itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku ipatante wa bibiri na makumyabiri na kane igere.

Ni icyapa cyamamaza igikorwa cyitwa irembo kizwiho gutanga ibintu bitandukanye, haba mu kwishyura, mu gusora ndetse n'ibindi byinshi, giteretseho mudasobwa ndetse ijambo ribanza ni intambwe ya mbere.

Umudamu wambaye umupira w'umutuku, ndetse ari kumwe n'abana batoya batatu ku meza hariho za mudasobwa, ndetse nutundi tuntu bigaragara ko bari mu bushakashatsi, bakaba bari mu nzu inyuma yabo hari ubusitani.

Ni inzu nziza iteretsemo ameza y'umweru ndetse n'intebe z'umukara, bidafite ababyicayeho. Ifite amatara menshi ari ku migozi, agiye ayizengurutse, ikaba ifite ibikuta byubakishije amatafari ahiye, ndetse n'ibindi by'umweru.

Ni ahantu hatangirwa serivise, ku kabati hometseho ibifuniko bigiye bigaragaza ibigo by'imari bitandukanye. Hari umuntu ugaragara igice gito, uri imbere ya mudasobwa, uri kuyandikamo, iruhande rwe hari akamashini gasohora impapuro.

Ni umunara munini muremure, uzengurutswe n'utwuma, aho binjirira bajyayo hakaba hahagaze abantu, ndetse hagati muri wo, harimo akazu k'umuhondo, imbere yako hari umuntu, ndetse ku ruhande hari n'utundi.

Ni insinga z'amashanyarazi ziri ku biti bizwi nk'amapoto ndetse n'amatara atondetse ku murongo, igicu kiragaragaza nk'aho butangiye kwira. Hari ibiti biteye munsi y'ayo mapoto bitondetse ku murongo.

Ni umuhanda nyabagendwa ugaragaramo urujya n'uruza rw'abantu. Hagati muri wo hateyemo itara riwumukira iyo bwije, imbere yaho gato hari umunara muremure. Amapikipiki abiri ateganye, y'abantu bambaye udutukura, ari mu muhanda.

Ni ipoto rirerire ririho itara ndetse n'insinga nyinshi zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, hirya yazo hari ibiti bikikije ubusitani, hirya hakaba urukuta rw'amatafari.

Ni ipoto ryakoze ikimenyetso cy'umusaraba kuko rifite agatambiko gafata insinga zirishamikiyeho, riteye rwagati mu ngo kuko hari akazenguruko k'utwuma kariho amatafari ahiye.

Ni inyubako iri kubakwa ariko ikaba itaruzura neza kuko hashinzeho ibiti bizwi nk'ibikwa. Hirya yayo, hari umunara muremure ushamikiyeho insinga, ndetse ikaba igizwe n'amatafari ahiye.

Umuhanda munini nyabagendwa mu mpande zawo hari abagenzi bari gutambuka barimo umukobwa wambaye ijipo ndetse n'umupira w'umuhondo, ugiye guca ku bagabo babiri bahagaze bari kuganira inyuma yabo hari utwuma tuhazengurutse.

Ni ahantu hagaragara ibicuruzwa bitandukanye hagati mu nyubako ndende hateye umunara w'ibyuma bibiri birebana, ushamikiyeho insinga zijyana amashanyarazi hasi haragaragara ubucuruzi burimo amabase n'ibindi.

Hejuru ku ipoto ry'amashanyarazi hegetseho urwego rurerure ruriho umuntu uri gutunganya insinga zijyana amashanyarazi mu ngo. Iyo zangiritse aba umukozi ubishinzwe uzisana kugira ngo abantu basubirane umuriro.

Ni umumotari uhetse igikapu ndetse yambaye agapira k'icyatsi n'ingofero irinda impanuka y'umutuku, akaba ahetse igikapu mu mugongo, iruhande rwe hari undi muntu uri gutambuka ugiye kubisikana n'umudamu, hirya gato hari aho ibinyabiziga binywera amavuta.

Ni igorofa ndende ikaba yubakishijwe ibimeze nk'amakaro, munsi yayo hateye ipoto iriho itara ndetse n'insinga zijyana amashanyarazi hirya no hino, ku ruhande hari igiti ndetse n'imodoka itagaragara neza.

Ni amapoto abiri ateganye ariho insinga nyinshi ndetse n'utwuma tuzishamikiyeho, aya ngaya ashinzwe kugemura umuriro mu ngo z'abaturage, mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa byifashishwa amashanyarazi birusheho gukorwa.

Ikirere hose kirasa ubururu bigaragara ko ari mu kabwibwi, hari ipoto ririho insinga zijyana hirya no hino amashanyarazi, iruhande rwaryo haragaragara inkingi z'inyubako.

Ni ipoto rigizwe n'ibyuma byinshi kandi binini, ziriho insinga zigiye mu byerekezo bitatu, hejuru hariho akuma gakoranyirizwamo insinga zohereza umuriro, zikaba rikeye rwagati, rizengurutswe n'amabati.

Ni iminara ibiri iteganya y'amashanyarazi n'utundi dutoya tuyishamikiyeho, iruhande rwayo harimo umuhanda uzengurutswe n'utubuye dusize amarange y'umweru n'umukara naho ku mpande hari icyapa cy'urwego rw'igihugu rushinzwe ingufu.

Ni indabyo ndende zakuze zikigira hejuru zirimo ndetse n'umukindo, hirya hari ibiti hagati hateyemo ipoto rinini ririho insinga zizishamikiyeho ndetse n'umunara uri hakurya hirya gato.

N'ikinyabiziga gishinzwe gutwara abarwayi aho rukomeye kikaba kihutira kubageza kwa muganga kiri mu mabara yacyo y'umutuku n'umweru kiracyari gishya ndetse n'amapine yacyo arasa umukara kikaba kiri mu muhanda.

Ni abakozi bo kwa muganga bari kugenda basunika ibyuma, barimo umukobwa wambaye umwenda w'umweru n'umukara ndetse n'umugabo umutwaje, iruhande rwabo hari ubwatsi butoshye buriho indabyo, hirya hari urukuta rw'amabuye y'umweru n'umukara rutagaragara.

Abaturage benshi bicaye mu ntebe z'imbaho zitambitse, harimo umwe urwaye baje ku kigo nderabuzima kwaka serivisi y'ubuvuzi, hari abahetse abana ndetse n'abari bonyine bari mu madirishya abandi baricaye barategerereje.

Yambaye umwenda w'ubururu wandikishije amagambo y'umweru inyuma isaha ku kaboko k'ibumoso akaba ari kuri mudasobwa hari ibyo ari kuyikoraho iruhande rwe hari akuma gashinzwe gusohora impapuro gateretse ku meza .

Ni abantu bicaye barimo abagore n'abagabo bakaba bari mu nkiko gacaca, bambaye ikibaranga kiri mu ibendera ry'ubururu rigaragaramo amabara atatu umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Ni ibizwi nk'Inkiko Gacaca byifashishwaga mu bihe byo hambere, ibi byagiye byoroshya mu kurangiza imanza nyinshi mu gihe gitoya. Abagize inteko bicaye imbere y'abaturage naho bo bicaye mu mbuga bari kumva urubanza.

Ni uburyo bwifashishaga hambere mu kurangiza imanza nyinshi mu gihe gitoya bwiswe inkiko gacaca, umuntu ahagaze imbere y'inteko n'aho abandi baricaye bambaye ibiranga ko aribo bashinzwe gukemura urubanza.

Inyandiko iri mu ndimi eshatu; igifaransa, ikinyarwanda ndetse n'icyongereza, akaba ari iy'amategeko. Mu ruhande rw'ibumoso hari ikinyarwanda mu gika kibanza hari amagambo agira ati; kitarenze imyaka icumi n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshatu.

Abacamanza baricaye bambaye udupfukamunwa, ndetse n'imyambaro ibaranga y'umweru n'umukara, ku meza hari uducupa tw'amazi ndetse n'utwo gukaraba. Hari uhagaze imbere y'urukiko ufite umwunganira mu mategeko.

Imbere y'urukiko mu mwambaro uranga imfungwa n'abagororwa, yambaye agapfukamunwa, ndetse imbere ye hari insakazamajwi, iruhande rwe hari umwunganizi mu mategeko wambaye umwambaro w'umweru ndetse n'umukara.

Ni umugabo uhagaze imbere y'urukiko wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, iruhande rwe hari umwunganira mu mategeko ufite ikaramu mu ntoki ndetse n'ibitabo imbere ye. Iruhande rwe hari mudasobwa, yambaye umwenda ubaranga ndetse n'amadarubindi.

Ikirangantego kigizwe n'umuzenguruko mu nsi ku ipfundo ryacyo hari amagambo agira ati" inkiko gacaca" naho hejuru umutwe wanditseho ubutabera bwunga. Hari ishusho y'abantu bari mu nsi y'igiti bakikije abandi bari guca urubanza.

Ni umugabo ugaragaza akamwenyu ku maso ufite utwanwa dukeya hejuru y'umunwa n'ubundi bukeya munsi yawo, yambaye umwenda uranga abagororwa afite akamajwi ahagana ku ijosi rye.

Ni inyandiko iri mu byiciro bitatu, aho kimwe cyanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, ikindi igifaransa ndetse n'icyongereza, ahabanza hari amagambo y'ikinyarwanda atangira agira uti;"Amabwiriza ya minisitiri."

Ni akabati kagizwe n'imbaho z'umuhondo zimwe ziratambitse izindi zirahagaze, ni mu bubiko bw'ibikoresho byifashishwaga hambere mu gusakaza amashusho ndetse n'amajwi muri rusange.

Inyuma ye harasa ubururu inkingi y'umweru yicaye ku ntebe y'umukara, yambaye ishati ndetse na kararuvati n'ikoti, hari insakazamajwi itari kugaragara neza akaba ari gutanga imbwirwaruhame.

Ni inyandiko iri mu ndimi eshatu ikinyarwanda ,igifaransa n'icyongereza ,igice kimwe ,igika cyacyo cya mbere kiragira kiti umutwe wa gatatu ibyaha n'ibihano bya ruswa, ingingo ya kane gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke.

Ni abantu benshi bicaye imbere y'urukiko bose bambaye umwenda uranga abashinjacyaha w'umukara barimo abadamu ndetse n'abagabo imbere yabo hari abacamanza bambaye umwambaro w'umutuku n'umweru mu gihe imbere hari amabendera y'igihugu .

Ni abagororwa benshi bahagaze ku murongo aho bategereje gusakwa imbere yabo hari urukuta rurerure rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'umuryango wanditseho ijambo ugenekereje mu kirimi cy'u Rwanda ni gereza.

Imbere y'urukuta runini rwa gereza, mu mbuga hari abagororwa n'imfungwa bari kuhatambuka mu mwambaro wabo usanzwe ubaranga, hafi aho ngaho hari umucungagereza uri kubareba, hari kandi akazu karekare karimo ababacungira umutekano.

Ni inyandiko igaragaraho ingingo z'amategeko atandukanye, umutwe w'amagambo uri mu ibara ry'umuhondo yandikishije umukara uragira uti "ikibazo cyasuzumwe. Ese uwajuririye wagabanyirijwe ibihano mu nkiko zibanza, yakongera kubigabanyirizwa mu bujurire? "

Ni amakarito apanze mu kabati, akaba abika inyandiko, mu rwego rwo kugira ngo zitangirika cyangwa se zikaba zabura. Ubu ni uburyo bumwe mu bwifashishwa mu kugira ngo hakusanywe amakuru abikwe, azamare igihe.

Ni inyandiko iri mu ndimi eshatu, igifaransa, ikinyarwanda, ndetse n'icyongereza. Ahabanza mu gika cya mbere, hari amagambo agira iti "komisiyo ishyikiriza kandi Perezida wa Repubulika inteko ishinga amategeko guverinoma n'urukiko rw'ikirenga".

Imfungwa zicaye imbere y'umuryango zimwe zambaye udupfukamunwa izindi bari imppuzankano ibaranga vyow ibara rizwi nka hoze mu ndimi z'amahanga inyuma yaho hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Ni iruhande rw'urukuta rurerure ari gutambuka imfungwa ndetse n'abagororwa bavuye mu mirimo bamwe bafite ibikoresho by'ubwubatsi abandi barasunika ingorofani bambagiye imyenda ibaranga.

Ni inyandiko itagaragara neza iri k'urupapuro rw'umweru n'ubururu, amagambo ayanditseho ari mu byiciro bitatu, aho agiye atandukanyijwe n'akantu k'umweru, iya mbere iragaragazwa n'ibika bigera muri kimwe, bibiri, bitatu bine.

Ni abagabo babiri bari guhererekanya impapuro bose bakaba bafasheho, bampagiye amakote meza y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, inyuma yabo hari ibyuma bya muzika.

Ni uburyo bwifashijwe hambere mu rwego rwo kurangiza imanza nyinshi mu gihe gito bwiswe inkiko gacaca. Imbere y'inteko hahagaze umuntu wambaye imyenda y'abagororwa akaba ari gucibwa urubanza.

Ni inyandiko y'amategeko iri mu ndimi eshatu, ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa, uruhande rubanza rwanditsemo amagambo agira ati"nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu cyane cyane mu ngingo zaryo ya mirongo itandatu naka kabiri mirongo itandatu nagatandatu n'izindi nyinshi zizikurikira.

Inzu irimo abagororwa benshi bose bakaba bambaye agapfukamunwa, bakaba baje imbere y'urukiko, inyuma yabo gato hari umucungagereza ndetse n'umwunganizi mu mategeko, hari uri gufata amashusho y'ibibera muri iki cyumba.

Ibyuma byinshi bigizwe n'ibara ry'umutuku ndetse n'akandi gato k'umuhondo, birateretse mu cyumba, bikaba byaragenewe kuzimya inkongi y'umuriro bibikwamo amazi, ahibasiye umuriro haba mu nyubako cyangwa ahandi uhita ukifashisha ukazimya.

Ni urukuta rw'umweru ruriho icyuma kizimya inkongi y'umuriro, ni byiza ko mu bwubatsi bugezweho habaho guteganya uburyo hakirindwa inkongi yaba iteye hakabaho uburyo bwihuse bwo gutabara bikazimwa.

Ni abanyeshuri benshi bahagaze mu mbuga aho bari mu mahugurwa yo kuzimya inkongi y'umuriro, umwana w'umukobwa afashe icyuma mu ntoki kiriho ihombo riri kurekura amazi rizimya umuriro uri ku isafuriya.

Ni abagabo batatu babihuguriwe ndetse babyambariye, bafite ihombo rinini riri kuvamo amazi. Bakaba bari kuzimya umuriro ahibasiwe n’inkongi. Ni ngombwa ko uhita ubahamagara ubundi bakagutabara.

Umutekano wo mu muhanda ni ingenzi kuko urinda impanuka, uwushinzwe ahagaze rwagati mu muhanda mu mwambaro ubaranga w'umuhondo, n'umukara ndetse wanditseho n’amagambo agira ati police iruhande rwe haratambuka ibinyabiziga byinshi.

Ni ikinyabiziga kinini kirimo abapolisi mu mabara yacyo y'umukara n'umweru ndetse abakirimo ni abashinzwe uwo mu muhanda bambaye impuzankano ibaranga, iruhande rwabo hari gutambuka umuntu utagaragara neza.

Mu muhanda hariho umuntu utwaye igare wambaye umupira ufite ingofero w'icyatsi, iruhande rwe hari gutambuka abashinzwe umutekano, hirya hari imitaka y'abacuruza ibijyanye n'itumanaho.

Urukuta rw'umweru ruriho akuma gashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ni ngombwa ko mu myubakire igezweho habaho uburyo bwo kwirinda kugira ngo mu gihe umuriro waba wibasiye inzu hihutirwe kuwuzimya.

Ni icyuma cyagenewe kuzimya ahibasiwe n'inkongi y'umuriro haba mu nyubako cyangwa ahandi, ni ngombwa ko wagishyira iwawe cyangwa mu nzu uri kuzamura mu mabara yacyo atukura yiganjemo.

Mu mwambaro ubaranga abashinzwe umutekano wo mu muhanda, umukara ndetse n'uturongo dutoya tw'umuhondo, akaba ahagaze areba uko umutekano wifashe, urujya n'uruza rw'abaturage ruri kwambukiranya nta nkomyi.

Inyubako nini zigezweho cyane cyane amasoko, ibitaro ,amashuri ndetse n'izindi ni ngombwa ko zishyirwamo ibikoresho by'ubwirinzi bw'inkongi iyo umuriro watatse inyubako ni byiza ko muhita mwifashisha ibyo bikoresho mu kuwuzimya .

Abanyeshuri mu mbuga hanze bamwe baricaye abandi barahagaze bakaba bari mu mahugurwa y'uburyo bagomba kwirinda ibijyanye n'inkongi y'umuriro. Umwe muri bo afite akuma n'uruhombo rurimo amazi ari kuyakuririza ku isafuriya iri kuri gaze.

Imodoka nini itukura ishinzwe gutabara aho rukomeye, cyane cyane ahafashwe n'inkongi y'umuriro, ababishinzwe bayivuyemo babiri bafashe uruhombo rurimo amazi, aho bari kuzimya umuriro wibasiye ahantu.

Ushinzwe umutekano umuporisi wambaye umwenda ubaranga afite igipapuro yagishyize inyuma hari n'ikaramu itagaragara ikiganza cye cy'iburyo kirazamuye akaba ari kuyobora ikinyabiziga kirikuza kumugana.

Ni ushinzwe umutekano wo mu muhanda mu mwambaro wabo ubaranga w'umukara ndetse n'umuhondo n'ingofero, afite akuma mu ntoki gasuzuma ibyangombwa ndetse imbere ye hari gutambuka ibinyabiziga bishoreranye biri ku murongo.

Ni abadamu bari ku murongo, bakenyeye bose bafashe ku mabendera y'igihugu, bamanitse ikiganza cy'iburyo, bigaragaza umuntu uri kurahira cyane cyane bikunze kubaho iyo agiye kwinjira mu mirimo yo gukorera igihugu.

Ateruye akana gato k'agahungu akandi nako kari i ruhande rwe, akaba ari Uwiriningiyimana Agate mu mwambaro w'igitenge, uyu yabaye umuyobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu yaba minisitiri w'uburezi, ndetse aba na minisitiri w'intebe.

Bicaye mu nteko bose imbere yabo hari udusakaza amajwi ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa igizwe n'abadamu ndetse n'abagabo haragaragaramo umuzungu uri hirya utaboneka neza .

Yayoboye minisiteri y'urubyiruko hambere, ndetse ayobora na minisiteri y'intebe akaba ari Uwiriningiyimana Agata abarizwa mu ntwari z'u rwanda, kuko yaharaniye amahoro akanga akarengane.

Ni umugabo ureba imbere ye ufite umusatsi mwinshi akaba yambaye ishati y'icyumweru irimo uturongo ndetse na karavati igaragaza utudomo tw'umutuku, yambaye kandi ikoti ry'umukara.

Yambaye ikoti ry'ubururu mo imbere harimo ishati y'umukara amanitse ikiganza cy'iburyo, ari kurahira akaba imbere ye hari insakazamajwi akaba munsi handitseho ngo ni dogiteri Utumamatwishima minisitiri w'urubyiruko.

Ni abaturage benshi bari mu mbuga batoye umurongo bagiye kwinjira mu cyumba cy'itora, imbere hahagaze umugabo wambaye imyambaro ikunze kuranga abayisilamu irimo ingofero ndetse n'ikanzu.

Barimo abagore, abagabo ndetse n'abana bicaye ku ntebe z'umweru, abandi barahagaze, baratatanye hakurya no hino. Bicaye munsi y'igiti, inyuma yabo hari akazu gato k'umuhondo gafunguye idirishya.

Ni abantu bahagaze bafite ibidobo mu ntoki n'imifuniko yabyo babicurika berekana ko nta kintu kirimo, biganjemo abambaye imyeru ndetse n'imikara hirya gato hari ukingirijwe bikoze mu mifuko uhagaze yashyize akaboko inyuma.

Ni abadamu basa neza bambaye imyambaro y'amabara menshi bakaba bakenyecye bahagaze ku buryo bw'amaskariye hari abagabo bake muri bo batari kugaragara neza inyuma yabo hari ibiti.

Ni abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Poro Kagame aho bahagaze bose bareba imbere yabo, abadamu bambaye imikenyero abagabo bambaye amakoti.

Minisitiri w'intebe wa Repubulika y'u Rwanda aricaye ari kureba imbere ye amwenyura, yambaye ikoti ryiza ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru iruhande rwe hari ibendera ritagaragara igice cyose aho hagara izuba.

Ni umugore ufite ibendera mu ntoki wambaye umupira w'umweru n'umukara ndetse n'ingofero n'amadarubindi, imbere ye hari insakazamajwi ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari ishusho ngari y'umukuru w'igihugu cyu Rwanda.

Ni abagabo bo b'intarumikwa babihuguriwe kandi b'abasore, batojwe kurinda ahari abakuru b'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakomeye bazwi nka sitiyu nk'uko bigaragara ku mwambaro wabo, uruhande rumwe bafite ibendera ry'igihugu.

Umugabo wambaye ikoti arahagaze ateze igisabo hari undi ugiye gushyiramo agapapuro, uwo yicaye hagati y'abadamu babiri bari ku ntebe z'umweru imbere yabo hari udusakazamajwi ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bambaye imipira n'ingofero bisa, iruhande rwabo hari amabendera yumutuku, ubururu, n'umweru harimo amagambo yumukara agira ati efuperi hakaba hari ufite ishusho y'umukuru w'igihugu yayimanitse hejuru.

Ni imbonerahamwe igaragaza urwego rw'imiyoborere, ikaba iri mu rurimi rw'Icyongereza, ariko ugenekereje, hejuru harabanza ijambo akarere, uruhande rumwe umurenge, n'urundi bikaba uko, akagari, umudugudu.

Ni abadamu bane bahagaze imbere yabo hari ameza ateretseho ibinyobwa by'ubwoko bubiri, icupa rimwe ririmo amazi irindi ririmo ikinyobwa gikorwa mu mbuto. Hari uwo ku ruhande wambaye ikoti ry'umuhondo, uwo hagati akenyege igitenge.

Ni umukuru w'igihugu yambaye ishati nziza y'umweru amwenyura, yamanitse ikiganza apepera abaturage bose bafite amabendera y'ubururu, umweru n'umutuku yanditseho Efuperi, ni mu gikorwa cyo kwiyamamaza.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yicaye mu ntebe nziza y'umukara ndetse afite impapuro mu ntoki akaba ari kugenda azicishamo amaso iruhande rwe hari umudamu uhagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora.

Ni imodoka iri kwinjira mu muhanda, ifite ishitingi hejuru, imbere hayo harasa icyatsi, ndetse mu kayira k'abanyamaguru inyuma yayo gato, hari uri kuyiyobora uyifasheho. Hirya gato haraturuka ipikipiki.

Ni icyapa cy'ubururu kiri mu ishusho ya mpande enye ariko zitangana, mo hagati kirimo inyuguti ya pa ndetse n'ikinyabiziga gishushanyijemo gitwara abantu muri rusange, kikaba kigaragaza ko aho hantu ubusanzwe hemerewe guparikwa ariko utugozi dufashe kuri cyo twerekana ko iyi nzira itari gukoreshwa.

Ipikipiki iriho umumotari udatwaye umugenzi iri mu muhanda rwagati iri kugenda aho iri inyuma y'imodoka y'ubururu, itwara imizigo, ikaba itwikirije shitingi, hakurya y'umuhanda, naho hari indi nini ihahagaze.

Umuhanda nyabagendwa ufasha mu migenderanire uri gucamo ikinyabiziga kinini gifite inyuma h'umukara, iruhande rwacyo hari gutambukamo igare ririho umuntu utwaye agafuka inyuma aho bicarira, ukaba ukikijwe n'ibiti.

Ni amapikipiki ari ku murongo menshi, yose y'amapine atatu akaba asanzwe akora imirimo yo kwikorera imizigo. ya akaba afasha abantu kwimuka cyangwa se gutwara ibikoresho mu buryo buboroheye.

Ipikipiki y'amapine atatu mu muhanda iruhande rwayo hari ikinogo kigaragaza ukwangirika kwawo; iri kubisikana n'imodoka y'ubwikorezi irimo ama matera yo kuryamira ndetse itwikirije ishitingi.

Umuhanda munini wagutse ugaragara nk'ushobora kwakira ibinyabiziga byinshi, urimo imirongo y'umweru igaragaza ibyerekezo. Harimo itwara abantu muri rusange nini irimo abagenzi iteganye n'indi ntoya.

Ni ruhurura iri iruhande rw'umuhanda, hamwe iratwikiriye ahandi ntabwo itwikiriye, ibi bishobora gushyira ubuzima bw'abahaca mu kaga, mu igihe icyo aricyo cyose haba haguye imvura nyinshi hakuzura amazi, iruhande rwayo haratambuka umuntu wambaye inkweto ndetse n'ipantaro by'umukara.

Mu muhanda rwagati hari imodoka y'umweru igaragara igice, hirya yawo haratambuka utagaragara neza, uri hafi y'ipoto rishinzeho itara, ku rundi ruhande hari umugabo wikoreye umufuka w'imizigo uri mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda munini wagutse urimo ibisate bibiri, aho utandukanira hagati hateyemo ubwatsi bwiza butoshye ndetse n'igiti cy'umukindo, urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo butari rusange ikaba ari iy'umweru.

Ni umuhanda nyabagendwa ugaragaramo ikinyabiziga kimwe cy'umweru cyikoreye, hejuru hakaba hariho shitingi itwikiriye ibirimo imbere, hirya gato hari umuntu uri gutambuka mu kayira k'abanyamaguru.

Ibinyabiziga bibiri birimo kimwe gito, kimwe kiri kuruhande rumwe n'kindi kinini kiri mu mabara atukura biri kubisikanira mu muhanda hagati hirya yaho hari ibiti nurundi ruzitiro rwicyatsi.

Ni basore babiri bari mu muhanda umwe ari gutambuka yambaye umupira w'umuhodo ndetse n nipantaro yumukara iruhande rwe hari undi wetsa agakapu uri kureba mu modoka zizwiho gutwara abantu zizwi nka twegerane y'mweru ndetse n'icyatsi.

Umuhanda munini wagutse ucamo ibinyabiziga byinshi, muri wo harimo ipikipiki itwaye umugenzi, inyuma yayo hari guturuka indi naho mu ihuriro riri hirya hari zimwe ziri kwinjira mu muhanda izindi ziwusohokamo.

Imodoka ndende izwiho gutwara abantu benshi muburyo bwa rusange mumabara yayo yi'cyatsi ndetse n'umweru ibirahure by'umukara imbere yacyo hari ipikipiki ihetse umugenzi wambaye iby'ubururu .

Mu nzira y'abanyamaguru haratambukamo abantu babiri barimo uwambaye imyenda y'umukara ahantu hose iruhande rwe hari ikinyabiziga gisa umutuku imbere aho abagitwaye bicara , naho inyuma bagikikije n'utwuma tw'umweru .

Ni muri gare ihagaramo ibinyabiziga biturutse mu byerekezo bitandukanye, bitwara abagenzi hagaragara utuzu abantu bicaramo, iyo bavuye cyangwag se bategereje ko imodoka ziza zikabatwara.

Imodoka nini ifite ikizuru cy'umuhondo yikoreye imizigo irimo matera zigaragara agace gato ahandi yatwikirije ishitingi nini y'ubururu ikaba igiye kubisikana n'indi itagaragara.

Ni ikinyabiziga kizwi nka twegerane mu myaka yo hambere cyatwaraga abantu mu buryo rusange usibye ko ubu zisigaye zigaragara mu bice by'icyaro yacanye amatara y'imbere kuko butangiye kugoroba iruhande rwayo hari umugore n'umugabo.

Ni abagabo babiri bahagararanye umwe ikiganza cye gifashe kungorofani; iruhande rwabo hari imodoka iri kugenda ndetse imbere hari urukuta rw'amabuye; hirya gato hari abatwatsi b'amapikipiki bahagaze ku murongo.

Ni abatwara amapikipiki benshi bari iruhande rw'umuhanda mu kayira k'abagenzi aho bategereje abo batwara, abenshi muri bo nta bagenzi bafite. Imbere yabo hari umuturirwa muremure ugizwe n'ibirahure byinshi.

Umuhanda uri gucamo ikinyabiziga kinini kizwiho kwikorera imizigo kikaba gifite ihema ritwikiriye ibikirimo byombi imbere, kigaragara igice gitoya hakurya yayo hari ibiti ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanzi munini uri kugaragaramo ipikipiki ebyiri ziri kubisikana, imwe ijya mu cyerekezo kimwe, indi ijya mu kindi. Iruhande rwawo hari akapa gatukura, gateye hirya y'umuhanda, hafi y'ibiti.

Imodoka ndende izwiho gutwara abantu muri rusange, ikaba ijyamo benshi, ifite amarange y'umweru, ubururu, imbere yayo hari guca ipikipiki itwawe n'umuntu, ariko nta mugenzi uriho. Imbere haparitse imodoka ebyiri.

Ikinyabiziga kinini cy'umutuku cyicayemo umuyobozi wacyo utagaragara neza, hejuru harimo ishitingi itwikiriye ibyo gitwaye, uruhande rumwe ruriho igare rigaragara ipine rimwe ndetse n'umuntu ugaragaza ikirenge cyonyine.

Ikinyabiziga kinini kigizwe n'amapine menshi gifite imbere h'umweru ahicara umutwazi wacyo, inyuma hari ishitingi itwikiriye ibyo gitwaye ndetse binaziritse kugira ngo bitaba byakwangirika.

Ipikipiki y'amapine atatu yubururu izwiho kwikorera imizigo mikeya ikaba iri iruhande rw'imodoka y'umukara inyuma ku kayira k'abagenzi haragaragara abantu bari kugenda nubwo amasura yabo atagaragara neza .

Aho ibinyabiziga bitwara abagenzi bihagarara haragaragara bibiri binini bitwara abantu rusange, kimwe kiragaragaza ipine rimwe ry'umukara ndetse gisize irangi ry'umweru n'ubururu hagati muricyo haragaragara ibirahuri.

Iruhande rwa ruhurura idapfundikiye hari akayira k'abanyamaguru kari gutambukamo abagabo batatu, babiri barateganye undi umwe ari inyuma yabo, iruhande hari ipikipiki itwaye umugenzi iri kubatambuka ndetse n'imodoka ndende.

Ni umuhanda munini w'ibisate bibiri bitandukanywa n'ubwatsi burimo hagati ndetse n'ibiti by'imikindo bizwi nk'imitako, ku ruhande hari icyuma kiwutandukanya n'inzira y'abanyamaguru mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Aho imodoka zihurira hazwi nka gare, hubatswe mu buryo bugezweho, ku buryo hashobora kwakira ibinyabiziga byinshi ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu. Ibigaragara bitwara abantu muri rusange, bikaba byiganjemo ibimodoka binini by'ubururu.

Imodoka y'umweru itambuka mu muhanda yonyine, inyuma hayo hicaye umugabo. Ku ruhande rw'abanyamaguru hari gutambuka abantu, umwe uri imbere yabo ari kugenda yiruka, abandi baratera intambwe zisanzwe.

Ikinogo kiri mu muhanda hagati wa kaburimbo bigaragara ko ukeneye gusanwa kuko ushobora gutinza imihahiranire ndetse n'imigenderanire, nubwo bimeze gutya iruhande rwacyo hari gutambuka imodoka izwiho gutwara abana.

Mu ihuriro ry'imihanda hari guca ibinyabiziga bitandukanye; hari ipikipiki ije imanuka, iriho umumotari udafite umugenzi ahetse. Naho imodoka y'ubururu irazamukana, ibisikana n'indi iri kumanuka.

Ni umuhanda mwiza, wagutse, ujyanye n'igihe, ariko utaragenewe gucamo ibinyabiziga, kuko abantu ari bo bahatembera n'amaguru, hagati muri wo hagiye harimo utuzu ducuruzwamo ibintu bitandukanye, harimo n'amakawa.

Inyubako ndende z'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bizikorerwamo. Munsi yazo hari umuhanda ariko utaragenewe gucamo ibinyabiziga, ugaragaramo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'utuzu tugiye turi hagati abantu b'icaramo.

Ni ubwatsi bushushanyijemo umurongo wigoronzoye w'umweru, bukaba bugaragara nk'ikibuga. Hejuru yaho hari intebe zihateye abantu bicaraho mu gihe bari gukurikirana umukino ukinirwamo, gifite kandi amatara ku ruhande.

Ni amabuye y'umukara n'umweru ashyirwa hagati mu muhanda, kugira ngo atandukanye igice kimwe n'ikindi. Hagati yawo harimo ubwatsi, ndetse hashinzemo ipoto rishyirwaho itara, ni umuhanda mushyashya, ugezweho, wabugenewe, ukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Icyapa cyo muhanda kiri mu ishusho y'umuzenguruko, inyuma yacyo hari umweru mwinshi, naho kikaba kigizwe n'ubururu, hagati muri cyo harimo akantu kagaragaza icyerekezo k'umurongo, kagaragaza ko ikomeza.

Ni icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho nini y'umweru, kiri muri mpande enye kizengurutswe n'akantu gato k'umukara ndetse muri cyo hashushanyijemo ikinyabiziga cy'umukara, kikaba cyanditseho amagambo y'ururimi rw'amahanga, ugenekereje mu kinyarwanda ni hagarara.

Nicyapa cyo mu muhanda kiririmo ishusho y'uruziga umusenguruko wacyo ugizwe nakabara gatukura nawo hagati harimo irangi ry'yumweru mo hagati harimo umurongo wumukara wazamutse ukahita utambika.

Ni icyapa kiri ku cyuma kirekire, gifite mpande enye ariko zitarebana, mo hagati harimo akarongo kigoronzoye kerekana icyerekezo. Hari umuzenguruko w'umukara, ndetse giteye hagati mu byatsi bwumye.

Ni ibyapa bibiri bitandukanye biri iruhande rw'ihuriro ry'umuhanda bitewe mu byatsi ,byose biri mu ishusho y'uruziga kimwe cyerekana ko gukatira aho hantu bitemewe ikindi cyerekana ko uhageze agomba guhagarara.

Ni icyapa cyo mu muhanda kigaragaza uburyo imbere inzira zigiye zinjiranamo kiri muri mpande enye aho zose zitarebana kigizwe n'akarongo kakizengurutse k'umukara ndetse n'umuhondo mwinshi wiganjemo .

Ni ibyapa bibiri bifatanye, byo mu muhanda. Kimwe kiri mu ishusho y'umuzenguruko, kikaba kigizwe n'akabara k'uruziga gatukura, mo hagati ni umweru, harimo umubare mirongo itandatu. Munsi yacyo hari ikindi cy'umukara n'umweru.

Icyapa cyo mu muhanda kirimo inyuguti nini ta yandikishije ibara ry'umukara, ahandi hose gifite umuhondo usibye akandi gato kakizengurutse, kikaba kiri muri mande enye ariko zitarebana.

Umuhanda utagaragaramo ibinyabiziga kuruhande rwawo hari urukuta rw'amabuye yubatse mu buryo butangaje, icyapa kiri mu kayira k'abanyamaguru kiri muri mpande eshatu hakaba harimo ishusho y'umuntu ufite igitiyo akora umuhanda.

Ni icyapa kinini cyo mu muhanda gishushanyije ahantu h'umweru, gifite umuzenguruko ugizwe n'akabara gatukura n'akandi gacamo hagati, mo hagati harimo umurongo uzamutse ukahita utambika iburyo w'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mdeenye ihagaze ntabwo zirebana harimo akazenguruko gato k'umukara ndetse n'amagambo yandikishije atyo ugenekereje mu kinyarwanda kirabwira abahageze kugenda gake kiri mu ishusho y'umuhondo.

Hagati mu biti iruhande rw'umuhanda hateyemo icyapa gisanzwe kiranga numero z'umuhanda hari akapa kanditseho ngo kaga rimwe umunani icyenda sata.

Ni umuhanda mutoya umanuka mu mpande zawo aho urangirira hari amabuye awukikije asize umweru n'umukara, iruhande rwawo hari icyapa cyerekana ko ahantu hatemerewe guhagarara ariko nubwo bimeze bityo hari ipikipiki ihagaze.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'umuzenguruko ugizwe n'akabara gatukura ndetse n'irindi ry'umweru rinini ririmo imbere, mo hagati harimo imibare ingana na mirongo ine aho bigaragaza ko aho hagenderwa ku muvuduko wo kwicyo kigero.

Ni ibyapa bibiri biri ku ipoto y'itara ry'amashanyarazi bikaba biri mu ishusho y'uruziga, byerekana ko aho hantu nta modoka zemerewe kukatira, hirya yabyo hari umugabo uhagaze utegereje kwambuka umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gicuritse cya mpande eshatu, kigizwe n'akazenguruko k'ibara ritukura, ndetse n'irindi riri hagati, giye ku cyuma gito gito gifite umuzenguruko, hirya gato hari ikinyabiziga kitari kugaragara neza.

N'ibiti biteye mu byatsi iruhande rwabyo hari icyapa cyanditseho ngo bugesera ni iruhande rw'umuhanda uri gucamo ibinyabiziga bibiri bishoreranye ikiri imbere kikaba gisa umutuku gikurikiranye n'ikindi.

Icyapa cyo mu muhanda, inyuma hari ishusho y'umukara izengurutse ndetse n'uturongo tuzamutse. Hagati harimo umuhondo, hasi hari akandi kazu ka mpande enye ebyiri ebyiri zingana nako gasa gutyo.

Ni icyanya kinini, cyubatsemo inzu zagutse, z'amagorofa. Haragaragaramo imwe igice gito y'umweru, n'indi iri hakurya yayo. Izibanziriza ifite amabati atukura, ndetse yubakishije amatafari ahiye.

Ni inzu nini yaba mu butambike ndetse no mu burebure ikaba igereretse, ifite utwuma dutangira abantu ngo batagwa, ikaba yanditseho mu rurimi rw'amahanga ugenekereje mu kinyarwanda yagenewe guturwamo, gucumbikwamo ndetse nibindi.

Ni ibyatsi byameze iruhande rw'akayira k'abanyamaguru birimo ibiti byinshi ndetse iruhande hari umuhanda utari kugaragaramo ikinyabiziga usibye ikiri kurenga hirya kitaboneka neza, iruhande rwabo hari inyubako ijyanye n'igihe kigezwemo.

Ni umuhanda utagaragaramo ibinyabiziga byinshi usibye ipikipiki iri kurenga uri mu miturire, aho hari amazu meza agezweho imbere yawo hateye ubwatsi indabyo ndetse n'amatara akikije ibipangu.

Ni ibice bibiri bigizwe na kimwe kirimo ishyamba rinini ririmo inzu ntoya ifite igisenge gitukura, ikindi cyo hakurya kiragaragaramo imiturirwa iri kuzamuka ijyanye n'icyerekezo.

Mu ruzitiro rwamabati y'umukara, imbere muri yo haragaragara ikibanza kinini ndetse hirya yacyo hari inzu, imbere yayo hari amamodoka, inyuma hari inzu ndende igaragara nkaho ikorerwamo ibikorwa rusange.

Ni inkingi ziriho amakaro ndetse n'itara hejuru z'umukara, zikaba zifashe mutwuma tuzengurutse inzu nziza ifite amarangi y'mweru ndetse n'ibirahure by'umukara ikaba hejuru yanditseho ngo biza.

Akapa kari mu kayira k'abanyamaguru gashushanyijeho umutwe w'umuntu uteze amasunzu ndetse n'ingagi, kari munsi y'ibiti binini biri iruhande rw'akayira kari gucamo abagenzi, hirya hari imodoka zacanye amatara kuko ari mu ijoro.

Imodoka y'umukara irahagaze, irasa neza, iri mu mbuga y'inzu nini yagutse igizwe n'ibirahuri by'ubururu, inkingi ziri mu ibaraza ry'umweru ndetse n'ahandi hose ku muzenguruko wo hejuru ikaba ari umweru.

Ni umuhanda utari kugaragaramo ikinyabiziga, ku ruhande rwawo hari gutambukamo abantu babiri bari kubisikana, umwe yambaye ingofero y'umweru ndetse n'ikote, hirya yabo hari urukuta rw'amabuye rugizwe n'imiryango ifunguye.

N'inyubako ikikijwe n'indabyo ikaba izengurutswe n'utubaho, mo imbere hari indobo y'ubururu ndetse n'umuntu uri m'umuryango utagaragara neza, ikaba iruhande rw'umuhanda wamabuye irya yahagaze amamodoka y'umukara.

Ni agace kagaragaramo urujya n'uruza karimo inzu z'ubucuruzi, abantu benshi barimo baragenda mu muhanda, umwe muri bo afite inkweto mu ntoki, uw'inyuma yambaye imyenda y'umukara ahantu hose, hirya gato hari umukobwa w'imisatsi miremire igiye inyuma.

Nigorofa ndende igizwe ahanini n'ibirahure byiganjemo iby'ubururu ndetse n'icyatsi inkuto zayo zirasa umuhondo naho munsi hari igiti kigaragara igice iyi nyubako ijyanye n'icyerekezo tugezemo.

Ni inzu zigizwe n'imiryango myinshi y'ubucuruzi imbere yazo hari imbuga yagutse ku miryango hari imyenda ihacururizwa iri mu bibazanyo bishyirwaho imyenda mu gihe itegereje abaguzi nk'ikirango cyo kuba ahongaho bayicuruza.

Imyubakire myiza igezweho irangwa no kugira ahantu hanini hashobora guparika ibinyabiziga byinshi muri yo hari imodoka y'umweru ndetse n'izindi ebyiri ziri iruhande rwayo ku nzu y'igorofa.

Ni ipikipiki ntoya iriho uyitwaye ndetse ahetse utwuma tubiri tuzwiho kuba ari ibicanishwa, iruhande rwayo hari gutambuka umugabo ndetse hirya hari inzu ndende y'urusengero yubakishijwe amatafari.

Inyubako ndende y'amagorofa irimo imiryango myinshi ikorerwamo ibintu bitandukanye, imbere yayo hari ibinyabiziga bihahagaze ndetse n'pikipiki n'abantu barimo baratambuka mu kayira k'abagenzi kayikikije.

Ipikipiki iriho uyitwaye gusa nta mugenzi afite iruhande rwe hari umuntu wicaye wambaye akantu k'umuhondo, uri mu imbuga y'inyubako igeretse kabiri, ikaba ifite imiryango myinshi iri ku murongo.

Ni umuhanda usanzwe ucamo ibinyabiziga, ariko kuri ubu nta na kimwe kiri gutambukamo, hakurya yawo hari inzu y'igorofa rimwe, imiryango yayo yose irafunguye, igiye ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikaba ifite amabati atukura.

Ni umuhanda w'amabuye ukikijwe n'umuferege muto uyobora amazi, iruhande rwawo hari icyuma kiriho icyapa cyanditseho keke ijana na cumi na gatatu, hirya y'aho wigoronserera hagaragara inzu y'ubucuruzi irimo umutaka imbere yayo.

Imodoka igaragarara igice gito, imbere yayo hari urukuta rw'amabuye asize irangi ry'umweru n'umukara ndetse hafi aho hari n'utwuma, imbere y'iduka ry'imyenda imiryango ibiri irafunguye hanze hari ibyo bicuruzwa.

Ni umuhanda w'igitaka umanuka iruhande rwawo hari urupangu rwiza rufite akaryango gato hejuru yako hariho ibyuma, hakaba hariho icyapa cyerekana nimero y'umuhanda ko ari karindwi, hari kandi ikindi cyamamaza inzoga ikorerwa hano mu Rwanda yitwa Sikolo gatanu.

Umuhanda munini wagutse ugizwe n'ibisate bibiri byose byagutse bishobora kwakira ibinyabiziga byinshi, kimwe kirimo umurongo w'umweru akaba ku ruhande hari ubwatsi burimo ibiti by'imitako bizwi nk'imikindo.

Ni mu ihuriro ry'umuhanda hari amapikipiki atatu ashoreranye abiri muri yo agaragara ahetse abagenzi imbere yaho gato hari imodoka y'umweru hirya hari urukuta rwubakishije amabuye rurerure .

N'umuhanda munini m'ihuriro ryawo kumpande hariho amabuye asize umweru n'umukara uruhande rumwe ruteyemo ubwatsi n'ibiti by'imitako yo mu muhanda bizwi nk'imikindo umuntu umwe ari kwambuka ageze hagati abandi bari mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda munini uri guhitamo ibinyabiziga bitandukanye, hagati harimo ipikipiki itwaye umugenzi inyuma ye hari imodoka nto, naho imbere hari inini itwara imizigo y'umweru ikaba irimo ipine hejuru.

Ni mu rusisiro umuhanda munini wagutse aho imodoka zibisikanira hakaba hateyemowo ibyuma biziha uburenganzira bwo kunnyuyuranamo hari urujya n'uruza rwazo ndetse n'amapikipiki zimwe zirahagaze zitegereje ko izindi zita.

Ni umuhanda w'ibisate bibiri igice kimwe kiragaragaramo imirongo y'umweru, aho utandukanira harimo utubuye dusize umukara, hagati harimo ubwatsi ndetse n'amatara ku rundi ruhande hari amapikipiki.

Umuhanda munini wagutse mu ihuriro ryawo ahashobora kubisikanira ibinyabiziga mu buryo bwi'isanzuye, bikaba bitakora impanuka hagaragaramo inzira y'abanyamaguru, aho bambukira hagenewe hacibwamo imirongo y'umweruru.

Ubusanzwe mu muhanda inzira yambukiramo abagenzi, irangwaha n'imirongo y'umweru nk'ikimenyetso cyo kugirango ibinyabiziga nibihagera bigende gakeya birindire abagenzi bambuke. Nabo iyo bahageze mbere yo kwinjira mu muhanda, babanza kureba hirya no hino bakabona kwambuka.

Iyo umuhanda ari munini wagutse, ufite ibisate bibiri bishobora kugendamo ibinyabiziga byinshi, utuma imigenderanire yoroha. Uyu nguyu uragaragaramo, aho abagenzi bambukira, mu mirongo iharanga y'umweru.

Mu ihuriro rinini ry'umuhanda wagutse riri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, hari kimwe gitwara abagenzi muri rusange kigeze aho abagenzi bambukira harangwa n'imirongo y'umweru kirikubisikana n'ibindi.

Umuhanda w'igitaka muremure uri hagati mu mazu hirya hari zimwe n'ahandi hari izindi hari iyubakishije amatafari ahiye igaragara imbere yayo hari ubwatsi buke burimo umukindo urundi ruhande ruriho ifite igipangu cy'icyatsi .

Ni umuhanda w'icyerekezo ujyanye n'igihe tugezemo ufite ibisate bibiri kimwe gituruka munsi ikindi kigaca hejuru hagati muri wo amatara aracanye kuko bugorobye ndetse n'ikinyabiziga gituruka hirya nacyo ni uko .

Ni umuhanda munini wagutse uri mu byerekezo bibiri byose bikaba birimo ibimenyetso bikomeza by'umweru, hagati muri byo hari umurongo w'umuhondo mugihe hirya hari umugabo uri kuri telefone ugiye kwambuka.